Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ahagaze mu cyumba gisize irange, imbere ye harambitse mudasobwa ndetse ari kuvanga imiti.

Umugabo wambaye ingofero n'ishati n'ipantaro ahagaze mu murima munini uhinzemo ibitunguru afite imashini mu mugongo ari gutera imiti.

Umuhinzi uri mu murima witeze igitambaro mu mutwe ahetse imashini zifashishwa gutera imiti ari kuyitera ibihingwa, inyuma ye hari ibihuru byinshi cyane.

Umugore wambaye igitenge yiteze n'ikindi mu mutwe n'ishati y'umweru ndetse n'amarinete ahetse imashini yifashishwa umuti, gutera umuti, arikuwutera ibigori mu murima.

Umugabo wambaye igisarubeti ahagaze mu murima w'ibigori, ahetse imashini yifashisha gutera imiti ibihingwa. Impande ye hari ikiyaga kinini cy'amazi, hakurya yacyo ishyamba ry'inzitane.

Umugore wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara apfumuye amatwi, ahetse imashini zifashishwa gutera imiti ibihingwa, ahagaze mu murima uhinzemo amashu.

Abantu benshi bari gutambuka hagati y'ibyuzi bibiri, impande hari imirima ihinzemo ubwatsi bw'amatungo, ibiti ndetse n'amazu.

Abagore bambaye ibisarubeti by'umuhondo abandi ubururu ndetse n'amajire, bari mu mazi mo hagati bari kuroba amafi.

Mu kibaya hari ibyuzi bibiri ndetse n'umuntu uhagaze imbere yabyo, inyuma hari insina z'urutoki, inzu ndetse n'ishyamba ry'inzitane.

Umugabo wambaye isengeri y'umweru n'ipantaro y'umukara, afashe igiti, impande ye hari ibyatsi bitandukanye ndetse n'umugezi, hakurya indabyo n'insina n'ibiti.

Abagabo benshi bahagaze mu kiyaga, bari gushyiramo imitego y'amafi, hakurya hicaye abagore bafite indobo n'amajerekani n'abagabo bahagaze bari kubareba, inyuma hari urutoki.

Ibiyaga by'amazi impande hubatse utuzu tw'ibiti ndetse n'indi yubakishije amatafari ahiye, hakurya umusozi uriho ishyamba.

Umugabo wambaye ishati irimo imirongo n'ipantaro ateruye akabase gasa ubururu karimo ibintu, inyuma ye hari urutoki ndetse n'inzu yo guturamo.

Abagabo babiri bahagaze mu cyuzi cy'amafi, umwe yarobye ifi ayifashe mu ntoki, ubundi akoze mu mazi, impande yabo hari isayo ndetse n'ibyatsi.

Abagabo babiri bambaye imipira y'umukara n'umuhondo n'ingofero, bafite inshunda bari kuroba bahagaze mu kiyaga mo hagati, impande hari amabase ndetse n'indobo.

Abagore babiri bateze udutambaro mu mutwe, bahetse ibitebo mu mugongo, bari gusaruriramo, icyayi gihinze mu murima munini cyane.

Umugabo wambaye ishati ahagaze mu murima uhinzemo umuceri. Inyuma ye hari ibiti byinshi cyane ndetse n'ibihuru.

Umuhinzi ufashe ku giti cy'ikawa kiriho imbuto zitarera, yambaye amadarubindi, ingofero, ndetse n'umupira bisa umutuku.

Abahinzi bari mu murima w'icyayi biteze ibitambaro mu mutwe bahetse ibitebo bari gusarura icyayi, iruhande hari amazu asa umweru ndetse n'ibiti.

Umuhinzi witeze igitambaro mu mutwe, yambaye ishati y'icyatsi, ahetse igitebo ari gusarura, icyayi mu murima, munini cyane hakurya hari umusozi uriho ibiti.

Imiti y'amatungo imwe iri mu dukarito, indi iri mu icupa rishushanyijeho inka ndetse n'ihene, udukarito dusa turi mu mabara y'umutuku icyatsi n'umweru n'umukara.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu, isengenyeri isa umweruru n'ipantaro y'umutuku, ahagaze mu murima uhinzemo umuceri ndetse impande ye hari undi ufite isuka mu ntoki ari guhinga.

Umugabo wunamye mu murima ari gutera igiti, yambaye umupira w'icyatsi uriho n'amagambo y'umweru mu mugongo, n'ipantaro y'umukara. Impanda ye hari abandi bantu.

Umurima munini urimo ibihingwa biteye ku murongo, inyuma hari inyubako ndetse n'imisozi ibiri iteganye iriho amashyamba.

Abagabo bafite imihora mu ntoki ndetse n'umugore wikoreye inkwi ku mutwe bari mu kibara kirimo ibyatsi bihuta impande hari ishyamba ry'inzitane n'umusozi uriho amazu.

Umugabo wambaye amadarubindi, ateruye igiti agiye gutera mu murima, n'abandi bantu bari inyuma ye, bahagaze muri icyo kibaya.

Abahinzi bane bunamye mu murima uhinzemo ibishyimbo, bari gusarura impande hari ibase bari gusaruriramo.

Abagore bakenyeye ibitenge, biteze n'ibitambaro mu mutwe ndetse n'umugabo umwe bari mu murima wari uhinzemo ibigori. Inyuma hari ibihuru.

Abahinzi benshi bari mu murima bamwe bafite amasuka bari guhinga, undi igitebo, abandi bari gushyiramo imbuto. Inyuma yabo hari imisozi myinshi iteganye.

Umugore wambaye umupira w'icyatsi n'isaha, afite ishami ry'igiti mu ntoki na terefone, inyuma ye hari abandi bantu ndetse n'urutoki n'ibiti.

Umurima munini uhinzemo ibintu byinshi bitandukanye, harimo ibigori, urutoki rw'insina, igiti cy'ipapayi, umwembe ndetse n'imyumbati.

Ikibaya kinini cyane gihinzemo imiceri, harimo ibiti biziritseho ibitambaro, hakurya hari umusozi uriho amazu menshi n'ibiti by'amoko atandukanye.

Umurima munini uhinzemo ibintu bitandukanye harimo insina, intoryi, beterave ndetse inyuma hari ibihuru byinshi.

Umurima munini urimo ibiti by'amoko atandukanye, icy'ipapayi, indimu, umwembe ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umuhinzi wambaye umupira n'ikabutura yunamye mu murima uhinzemo umuceri impande harambitse isuka.

Umuhanda wamezemo ibyatsi impande hari imirima irimo ibiti by'ibigori basaruye ndetse n'ibiti hirya hari umusozi.

Ishyamba ryinshi ry'inzitane riteye ku musozi impande hari inyubako isakaje amabati y'icyatsi ndetse n'iyindi yubakishije ibiti.

Abahinzi babiri, umugore wambaye umupira ndetse akenye igitenge afite amafaranga mu intoki n'undi w'umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro ufashe urunyanya mu ntoki n'izindi ziri mu gitebo,

Abahinzi bunamye mu murima urimo ibihingwa bihinnze ku murongo, hashinzamo n'ibiti. nImpande hari umuhanda uri gutambukamo abagenzi ndetse n'ibiti.

Umuhinzi wambaye ishati y'icyatsi, witeze igitambaro cy'umukara, apfumuye amatwi, ahagaze mu murima w'indabyo zejeje ndetse n'insinga z'amashanyarazi zinyura hejuru mu kirere.

Akarima k'igikoni kubabakiye n'uduti n'imifuka, hahinzemo imboga z'ubwoko butandukanye n'ibitunguru, impande hari akarima kandi gahinnzemo ibishyimbo, harimo n'insina ndetse indabyo ku ruhande.

Umugabo wishimye wambaye isarubeti y'icyatsi mu imbere isengeri z'umweru. Afite ikintu gisa ubururu amaze gusaruriramo puwavuro, ahagaze mu murima munini zihinzemo.

Umuhinzi wambaye ingofero ni jiri ya oranje n'ipantaro ahagaze impande y'igiti kiriho imbuto za pome z'umutuku nyinshi cyane.

Umurima munini uhinzemo ibishyimbo ku murongo ndetse hazitijwe ibiti inyuma, indi mirima ndetse n'ibiti n'inzu ihubatse.

Abahinzi bahagaze mu murima biteze ibitambaro mu mutwe bambaye n'amataburiya asa, bari gusarura ndetse bafite utudobo dusa umweru mu ntoki.

Isoko rinini ritwikiriye harimo urujya n'uruza rw'abantu, abacuruzi n'abaguzi bari guciririkanya ibiciro, imbere yabo hari inyanya zirunze, inkoko ndetse na terimusi ihateretse.

Umugabo wambaye ingofero, umupira n'ipantaro, ahagaze mu murima munini uhinzemo ibigori, hakurya ye hari imisozi miremire iriho ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhinzi wambaye ingofero y'umukara, ishati n'ipantaro ahagaze mu murima w'amashu ari kuvomerera akoresheje imipira izamura amazi ndetse impande hari umurima uhinzemo ibishyimbo.

Abahinzi bambaye amasarubeti y'ubururu na bote, bahetse imashini zifashishwa mu gutera imiti, bari mu murima w'ibigori, bari gutera umuti ndetse hakikijwe n'ishyamba.

Abagabo bambaye amataburiya asa umweru n'amapantaro bari gutambuka mu muhanda, inyuma yabo hari inyubako isize irange ry'umweru ndetse n'ibiti.

Umugore ukenyeye ibitenge by'umutuku harimo n'andi mabara, yiteze igitambaro mu mutwe, afite isuka mu ntoki ari guhinga mu murima munini n'uwundi uri iruhande uhinzemo inyanya.

Umuhinzi wambaye umupira w'ubururu n'uturongo tw'umweru n'ipantaro ari kuvomerera imyaka, ahagaze mu murima uhinzemo amashu ukikijwe n'ibiti.

Umuhinzi uhagaze mu murima munini afite umupira ari kuvomerera ibihingwa, iruhande hari ibiti, inyuma umusozi muremure.

Umurima munini uhinzemo ibihingwa by'ibigori hejuru hari utumashini tumanura amazi yifashisha mu kuvomerera ibihingwa, hakurya umusozi uriho ishyamba.

Imashini izamura amazi mu murima kugirango ibihingwa bikure neza, impande hari ibiti binini ndetse n'ikibuga n'umusozi uriho amashyamba.

Abahinzi bambaye bote n'amasarubeti asa ubururu, bahagaze mu murima uhinzemo ibigori ndetse n'amashu, hari ufite umupira uzamura amazi, ari kuvomerera, iruhande hari urutoki ndetse n'ishyamba.

Imisozi miremire iteganye ikurikiranye ku murongo, iriho ibiti by'amoko atandukanye. Hasi mu gishanga hanyuramo umugezi utemba amazi ndetse hari n'imirima ihinzemo ibiribwa bitandukanye.

Ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'ikiyaga kinini, hakurya hari imisozi miremire iteganye ndetse n'ikirere gisa nabi.

Imisozi miremire iteganye hariho ibihingwa bihinze k'umurongo ndetse namashyamba y'ibiti by'ubwoko butandukanye, hubatse inzu isakaje amabati.

Imisozi iteganye iriho amashyamba menshi ndetse n'inzu isakaje amabati. Hejuru hari insina ndetse n'ibitovu.

Inzu isakaje amabati ifite uruzitiro rw'ibiti, inyuma yabo hari urutoki runini. Hakurya ni imisozi iteganye hasi ikibaya hari n'ibiti.

Igishanga kirimo umugezi w'amazi atemba, hakurya no hakuno hari imisozi miremire iriho imirima yo guhingamo ndetse n'amashyamba.

Umusozi muremure uriho ishyamba ry'ibiti ndetse n'utuzu twinshi dusakaje amabati, turi ahantu hatandukanye. Hasi hari ikibaya kinini.

Imisozi myinshi miremire iteganye iteyeho ibiti ndetse n'amazu yo guturamo, hasi mu kibaya hari ikiyaga kinini kirimo amazi ndetse n'amapironi ajyana insinga z'amashanyarazi n'umuhanda uhanyura.

Umugabo wambaye ingofero y'umweru, isarubeti y'ubururu na bote, ahagaze ku ruzitiro rw'ibiti mo imbere harimo inka y'ibihogo ifite amahembe maremare. Hakurya hari igisambu kirimo ibiti.

Abashumba bahagaze mu rwuri rw'inka umwe ari gukama n'undi afite icyasi mu ntoki. Harazitiye, inyuma yaho hari inzu isakaje amabati n'ikigega gifata amazi ndetse n'ishyamba.

Ahantu bororera inka hubakishije ibyuma ndetse hasakaje amabati. Imbere hari inka zirimo, hirya hari umusozi.

Inka nyinshi ziri mu gisambu. Kirimo ibyatsi, ziri kurisha. Zisa umukara, umweru n'ibihogo. Inyuma hari umushumba wambaye umupira w'umutuku afashe ku giti.

Umugore wambaye taburiya y'umweru n'ijipo ateze igitambaro mu mutwe cy'umukara ahagaze ku ruzitiro rw'ibiti, imbere harimo inka zifite amahembe maremare hakurya hari igiti.

Abashumba batatu bari mu rwuri rw'inka harimo iz'amabara y'umweru n'umukara ndetse n'iy'ibihogo bari gukama, hazitijwe nibyuma inyuma hari amazu.

Umuhinzi wishimye, ateruye, inkoko iriho ibishyimbo. Inyuma ye hari inzu atuyemo, ndetse n'urutoki.

Ubwankiro bwi'myaka bwubakishije ibiti, impande hari insina ndetse n'ishyamba n'inzu zo guturamo n'umusozi.

Abavuzi b'amatungo bambaye ibisarubeti by'ubururu ndetse na bote, bari kuvura inka ziri imbere mu ruzitiro rw'ibiti, ndetse zisa ibihogo.

Umugore witeze igitambaro cy'umukara, yambaye itaburiya y'umweru, ipantaro na bote, ahagaze ku ruzitiro rw'inka ayifashe umurizo.

Inka z'ibihogo ziri mu kibara kinini, kirimo ibyatsi ndetse n'amashyamba y'ibiti n'abashumba bahagaze ku ruhande. Hirya hari inyubako yubakishijeje amatafari ahiye.

Abagabo bane bahagaze bari kuvura inka yacitse ibisebe ku mugongo, isa umweru n'umukara. Inyuma ya hari ibyatsi by'amatungo.

Inka nyinshi zifite ibara ry'ibihogo n'amahembe maremare, impande uruzitiro rw'ibiti hahagaze abantu babiri, umwe wambaye itaburiya y'umweru n'uwundi ubururu, impande hari ibiti.

Umukozi wambaye itaburiya y'icyatsi, imbere ye harunze amagi menshi ndetse ari mu nyubako ifite amadirishya.

Inyamaswa z'ubwoko butandukanye ziri hamwe harimo inzovu, intare, imparage, ingwe, isha ndetse n'ingurube y'ishyamba, inyuma yaho hari ibiti n'inyoni ziri kuguruka mu kirere.

Umurima munini urimo ibyatsi byumye hahagazemo imparage, y'amabara y'umweru n'umukara, impande hari ibiti.

Ikibara kinini kirimo ibyatsi ndetse n'ibiti. Harimo inyamaswa zitandukanye: imparage z'umweruru n'umukara, isha ndetse n'imbogo.

Umugabo uhetse igikapu wambaye umupira w'ubururu urimo n'umweru n'ipantaro y'umukara ari gutambuka impanda ye abona inkende ebyiri ndetse hari amazu n'ibiti.